Ipompo y'umuhondo ipfundikishije umupfundikizo w'icyatsi kibisi, irimo irapuriza ahantu ku ndabyo, bisa nkaho bari gutera umuti kuri izo ndabyo kugira ngo zizakure neza.

Umugabo wambaye ingofero y'umweru, yambaye agapfukamunwa, yambaye ishati n'ipantaro, ari mu murima aho yahinze umuceri ariko nturera, ari gutera umuti uwo muceri.

Umugabo wambaye imyenda y'ibijuju yambaye ipompu mu mugongo, ari kugenda avomerera imbuto yahinze mu kibaya kugira ngo zizere neza.

Umugore wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara, arimo aragenda avomerera amashu yateye, ari kubanza kuyateraho umuti, yambaye ipompo mu mugongo niyo ari gukoresha.

Umugabo wambaye agapira gatukura ka lakosita, yariyogoshesheje amararaho umusatsi, ari mu mazi hagati, afite mu ntoki urushundura arimo araroba amafi.

Aha ni ku cyuzi cyangwa se ikigomero, cyifashishwa mu buhinzi, buhira imyaka, ikikije aho kugira ngo ikure neza, itange umusaruro uhagije.

Hari ibyuzi binini bubakiye kugira ngo bizakuriremo amafi, ni hagati mu kibaya, haruguru hari ishyamba rihakikije.

Umwana ufite amafi mu ibaze, avuye kuyaroba mu byuzi cyangwa mu bizenga biri hakurya, hakaba hari ibimera nabyo bitandukanye, hanakorerwa kandi ubuhinzi.

Umugabo wambaye imyenda y'umukara, bisa nkaho ari mu bwato, arimo araroba amafi, ni mu kiyaga kinini cyane kirimo amazi menshi, yazamuye urushundura, ararunaga, hazamo amafi,

Icyuzi cyubatseho akazu hejuru, iruhande rwaho hari ibihingwa cyangwa ibimera bitoshye, bisa naho hano hakorerwa ibikorwa by'ubuhinzi.

Igihingwa cyiza cyane kizana amafaranga mu bantu, ni kawa nziza iriho ibitumbwe, iriho n'izeze, bigaragaza ko uyisoromye wakuramo amafaranga.

Barimo baratema umuceri, ni abantu benshi batandukanye, aho bawuhinze, warumye umeze neza, ushoborawu kugurisha ugakuramo amafaranga.

Bari mu cyayi ni abagabo n'abagore, barimo barasarura, bafite ibitebo inyuma mu mugongo, barimo barasaruriramo icyayi, hirya hari ibiti bya Gereveriya ndetse n'iby'Inturusu.

Umugabo wambaye umwenda uri mu ibara ry'umweru ndetse n'ingofero nayo iri mu ibara ry'umweru ahagaze mu murima w'icyayi gikuze neza kikaba cyenda kwera yiteguye gufata amafaranga.

Bari mu gishanga, aho barimo barasarura icyayi ni abagabo n'abagore, bafite udutebo ku mitwe yabo, batuziritse ku mitwe dutendera inyuma mu mugongo bari kugenda bashyiramo icyayi.

Iyi ni ikawa bashyize mu gatebo, ikaba ihishiye rwose isa neza, bakaba biteguye kuyijyana ku ruganda kugira ngo bakuremo icyayi cy'ikawa.

Umusaza wambaye ishati y'igikoyi yambayemo imbere indi shati ari mu ikawa bisa nkaho arimo arazihurura akuramo izeze asigamo iziteze.

Ni mu kibaya kiza gitoshye, harimo ibihingwa byinshi ariko cyane cyane ni icyayi kimeze neza, kiri hafi kwera kugira ngo bagisarure bagikuremo amafaranga.

Bari mu kibaya bari gusarura icyayi ni abagabo n'abagore, bambaye imyenda yiganjemo icyatsi bafite udutebo inyuma mu migongo yabo, bari kugenda basoroma icyayi bashyiramo.

Ari gusarura ikawa afite igitebo imbere ye yacyambaye mu ijosi ikimanuka ku nda, ni umugabo uri gusoroma ikawa kugira ngo azazigurishe zivemo amafaranga.

Bari mu cyayi barimo barasarura ni abamama benshi ndetse bafite ibitebo ku mugongo bari kugenda basaruriramo icyayi, ni ibihingwa bizana amafaranga.

Yambaye agatambaro k'icyatsi mu mutwe, yambaye agapira k'umukara, ni umumama uri gusoroma ikawa bigaragara ko zenda gushiraho kugira ngo age kugurisha abone amafaranga.

Iki ni igihingwa cya kawa kikaba, kiriho ikawa zeze cyane ndetse n'izindi zikiri imiteja, kikaba ari igihingwa kibyara amafaranga haba ku gihugu ndetse no ku ba gihinga.

Iki ni igihingwa cy'ikawa, umuntu akaba ari kucyifotorezaho agifasheho, urabona ko iyi kawa icyeye kandi itoshye neza, ikaba itanga amafaranga haba ku gihugu ndetse no ku bantu bayihinga.

Abagore babiri bambaye imyenda isanzwe bari mu cyayi hagati, bafite ibitebo barimo barasoromeramo icyayi, ni abagore birabura, hirya yabo hari inyubako nini ndetse hari n'ibiti bihakikije.

Igihingwa gishinzwe gutanga amafaranga mu bantu yo kwifashisha mu bindi ni igihingwa kiza cyane kireze, ni ikawa iriho ikawa nyinshi zitukuye ku buryo umuntu yazisoroma agakuramo amafaranga.

Ibihingwa by'icyatsi kibisi biri hamwe birahinze, harimo ibirebire n'ibigufi, ni mu buhumbikiro aho babishyize kugirango bizakurire bizaterwe byarakuze neza.

Uducupa turi mu mabara atandukanye tukaba dufunze neza, tukaba turimo imiti yifashishwa mu buvuzi bw'amatungo igihe yagize ikibazo.

Imiti yifashishwa n'abaveterineri bavura inka, ihene n'andi matungo, ni imiti iri mu macupa bayatoboza urushinge hanyuma bagatera itungo rirwaye.

Imiti iri mu dukarito dutandukanye, mu mabara atandukanye ni amacupa menshi, ni imiti ishushanyijeho amatungo nk'inka n'ihene n'ibindi bigaragaza ko ari imiti y'amatungo.

Iyi ni imiti yifashishwa mu buvuzi bw'amatungo, imwe iri mu duka rito, indi iri mu macupa amanini ndetse n'amata, ikaba ivura indwara zitandukanye, zifata amatungo.

Ni imiti y'amatungo, iri hamwe ndetse iri mu dukarito dutandukanye, tutangana hashushanyijeho amatungo atandukanye nk'inka n'ihene, bigaragaza ko bayifashisha mu buvuzi bw'amatungo.

Imiti iri mu ducupa tw'umweru tumwe tugeretse hejuru y'utundi, ni uducupa turiho ibyapa by'uko bazakoresha iyo miti, ni imiti iterwa amatungo ntago ikoreshwa ku bantu.

NI ubworozi bw'inka, ni inka nyinshi zirimo zirarira ahantu bazubakiye, hari abantu benshi bari kuzireba uko zirimo zirarya barimo barazitaho bazigaburira.

Umuhinzi wambaye bote, iruhande rwe hari isuka, akaba ari gutera igiti cy'imbuto, iruhande rwaho hakaba hari pasiparumu, hirya naho hari ibindi bimera.

Bahagaze munsi y'insina ahari umurima barimo bahinga, ni abagabo n'abagore bisa nkaho barimo barahinga batera n'intabire, bafite amasuka mu ntoki zabo.

Ni ubuhinzi bw'ibintu bitandukanye, ni umuceri ukiri mutoya uri muri boloke zawo. Hirya hari umugabo urimo gutembera bisa nkaho arinze inyoni.

Baricaye n'abagabo bicaye hasi, imbere yabo hari undi uhagaze ni abahinzi bahinguye bavuye mu murima, bose bari gukurikirana inama z'uwo nguwo ubari imbere.

Ubworozi bw'ihene zitandukanye, harimo inkuru n'intoya, abantu barahagaze barimo barazireba, ni abahinzi borozi bari iruhande rw'ishyamba rinini rigaragara ko baje no kuzikingiza.

Umugabo n'umugore, umugabo bisa nk'aho ashaje, afite akabando mu ntoki, yambaye ipantaro y'ubururu n'ishati y'ikigina n'akagofero, umugore yambaye ibitenge n'agasharupe mu mutwe yikoreye n'intebe bari mu byatsi bari kugenda.

Inka nziza ni nyinshi ziri mu mabara menshi, hari iz'ibibamba, iz'ibihogo n'izindi, baziragiye ahantu mu rwuri rwazo, hari n'amashyamba ruguru y'urwo rwuri.

Abahinzi ni abagabo n'abagore bari mu murima barimo barahinga. Bamwe bahagaze inyuma yabo bisa nkaho bari kugenda batoragura ibyavuye mu murima. Bafite amasuka barimo barahinga.

Ubu ni ubuhinzi bw'umuceri, abantu bari kuwufira: umwe, babiri, batatu, bane, akaba ari igihingwa gitanga amafaranga ndetse n'ibyo kurya bitandukanye bikorwamo, haba igikoma ndetse n'umuceri wo kurya.

Hahinze imyaka itandukanye mu dupariseri dutandukanye, buri kose ukwako ni ahantu bahinga imyaka hakurya hari ishyamba ryinshi.

Aha ni mu murima hari igihingwa cy'umuceri ubona ko uri hafi kwera, umuceri ukaba ari umwe mu bihingwa byifashishwa mu kurya ndetse no gutanga amafaranga.

Ni muri butike, aho hari ibintu byinshi bitandukanye amavuta, ibyo kurya bitandukanye, ni ibicuruzwa byinshi bifasha abantu mu mibereho ya buri munsi.

Ibiganza byambaye uturindantoki turimo umukara n'umutuku, bifite ibirayi bitandatu, bisa nkaho bivuye mu murima ako kanya kuko hariho ibyondo.

Hahinze imyaka ni ubutaka bwagenewe guhingwamo, ni heza haratoshye imyaka bigaragara ko yitabwaho neza, imyaka myinshi ishobora kuguhesha amafaranga menshi.

Ni mu kibaya ahantu hitaruye inzu zose, hari amazu bubakiye ibimera biri aho ngaho ku buryo bizajya bisarurirwamo, ni amazu ya kijyambere, aba ameze nk'amashitingi.

Ibihingwa biri mu murima, ni ibihingwa bifite amababi manini atoshye y'icyatsi kibisi, ni imyumbati abantu bahinga kugira ngo barye, mu muririma haruguru hari n'umuyenzi.

Umukecuru wirabura yambaye ibitenge bisa n'igitambaro cyo mu mutwe ari mu bigori arimo arasarura ibigori bigaragara ko azabyifashisha mu kumuzanira amafaranga.

Ni ubuhinzi bw'ibintu byinshi harimo imboga, harimo imyumbati ndetse n'ibindi bihingwa, ni ahantu hameze neza cyane ku buryo ibihingwa bihari bimeze neza na byo.

Amapoto ariho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi, hakurya hari aho bahinga imyaka hakaba hari n'ibyatsi bitoshye, ku ruhande naho hari umuhanda ugendwamo n'abantu n'ibinyabiziga.

Kirarambitse mu byatsi na byo bisa nk'ibigiye kuma, ni ikigori gifite amababi menshi ariko muri ayo mababi yose yarumye kirarambitse ni nkaho bagiciye bagita aho.

Abantu babiri bari kugenda ahantu ku gasozi ndetse hari n'ishyamba ry'ibiti gusa ntibirakura cyane .Bakaba bari kugenda hari n'amabuye.

Baratwereka ishyamba rinini cyane harimo udusozi, harimo n'igihu hagati y'iyo misozi, ishyamba rikaba ari ryiza, riduha umwuka wo guhumeka.

Ni ahantu hari ishyamba ryinshi bigaragara byo ni uko ibyatsi byumye, ariko ishyamba ryo riracyahari kuko hari ibiti bito bito nabyo biri kumera.

Ishyamba rinini cyane ubona ririmo ibiti bikuze cyane biragaragara ko iri shyamba rimaze imyakayinshi.

Ni mu ishyamba hari ibiti byinshi bitandukanye hari n'imisozi itandukanye, iyo misozi yose iteyeho amashyamba bigaragara ko badaherutse kuhahinga.

Ni mu ishyamba ryinshi cyane ndetse no hakurya hari ayandi mashyamba, ni ishyamba rigizwe n'ibiti bitari inturusu, ni ibya voka n'ibindi biti bibonetse ndetse hari n'ibindi bimeze nk'imiti gakondo.

Umugabo n'umugore barahagaze ntibagaragara neza mu maso, gusa imbere yabo hateretse agatebo kariho inyanya, bigaragaza umusaruro mwiza w'inyanya, umwe ari kuzigura n'undi, undi afite amafaranga mu ntoki.

Ni insenda ziri hamwe bisa nk'aho bazihinze igihe kimwe kandi bakazihinga igihe cyiza, harimo izijya kuba umutuku ndetse n'izindi zikaba ari umuhondo.

Abagabo n'abagore bari hamwe mu nyubako barahagaze bafite imbuto bari gushyira ahabugenewe, bazikuye mu tudobo bigaragara ko ari imbuto bahingiye hamwe.

Bari mu murima w'amashu ni abantu batatu, harimo umugabo umwe n'abagore babiri buri wese afite ishu mu ntoki, bigaragara ko bafatanyije bagahingira hamwe bagasarura umusaruro ushyitse.

Ubuhinzi bujyanye n'imbuto n'imboga, aha hari inyanya zeze zikwiye gusarurwa zatondagiye ku giti ziratukuye zitegereje abaza kuzisarura.

Abagabo babiri bahetse amapombo bari kugenda mu myaka, ni mu bigori bari kugenda buhira iyo myaka kugira ngo izakure imere neza.

Umumama wambaye igitenge, yambaye igitambaro yambaye, amaherena ndetse arunamye ,arimo aruhira imyaka, yayiteye ku murongo, buri bwoko ukwabwo.

Umwana w'umusore ari mu kigero k'imyaka cumi n'umunani, yambaye agapira k'umutuku, ipantaro iciyemo akarongo k'umutuku, arimo aruhira imyaka, hari insina hari n'indi myaka ihinze aho ngaho.

Ni mu kibaya ahahinze imbuto zitandukanye harimo utuyira tugenda ducamo amazi hagati mu mirima buri murima ufite uruhumbu ruwuhirira ni uburyo bugezweho bwo gukoresha impombo zuhirira nta bantu bazikoresheje.

Aha hari, ibihingwa by'ibigori, ubona ko harimo n'igikoresho bifashisha buhira imyaka, mu gihe cy'izuba. Hari n'abandi bantu benshi hakurya hari insina.

Umumama wambaye ikanzu ya pinki afite mu ntoki uruhombo rujyana amazi hirya no hino, ahagaze mu murima w'inyanya arimo arazuhirira kugira ngo zizere.

Ubu ni uburyo bwo kuhira imyaka kugira ngo ibashe gukura neza, cyane cyane bukaba bukoreshwa mu gihe cy'izuba, hahagazemo umuntu uri gucunga ko ibyo ibikoresho bikora neza.

Ubu ni uburyo bwashyizweho na leta cyangwa se, ba rwiyemezamirimo bujyanye no kuhira imyaka. Hakaba hari amashu, n'umugore uhagazemo uri kuyuhira, kugira ngo akure neza.

Umugore ufashe uruhombo akaba arimo aruhira amashu ye kugira ngo akure neza kandi amere neza, hakaba harimo n'umwirasire ufasha mu kuhira.

Umugabo uhagaze mu murima, akaba ari gukoresha igikoresho cyifashishwa buhira imyaka, akaba imyaka ye itamera neza ariko ari kuhira kugira ngo ikure vuba.

Umudamu arimo aravomerera imbuto yateye ku murongo, ni umudamu wambaye agashati k'umutuku, karimo utuzeru yambaye n'igitenge afite rozwari, hirya ye hahagaze undi mudamu.

Ubu ni uburyo bwashyizweho kugira ngo huhirwe imyaka itandukanye, ubu buryo bukaba bufasha imyaka gukura neza kandi ku gihe.

Ahantu hari imiturire itari myiza cyane, hari udusozi, hari ibiti bike, hari ibimera, akaba ari agace kamwe mu karere ka Nyagatare.

Ni mu kibaya hagati, hari amazi atembera ntajya ava aho ari ngo atembe, hejuru hari ikirere cyiza, gikeye kirimo ibicu, ni mu kibaya ahari ibihingwa byinshi.

Haciye amaterasi y'indinganire, hariho ibimera n'ibiti byose bisa ibara ry'icyatsi, ni ahantu hagenewe guhinga, ni ubutaka bwo guhingamo.

Hari umusozi muremure usa nkaho ntakintu na kimwe kiriho, bisa nkaho ari ishyamba ryari riteyeho, hasi gato hari ishyamba ndetse hari n'umuhanda imodoka iri gucamo.

Ubutaka bwagenewe guhingwamo bwitaruye ahantu ho gutura hahinzemo ibihingwa byinshi bitandukanye ari amashyamba, ari ibyo kurya, harimo abantu barimo baragenda batunganya ibyo bihingwa.

Ahantu ku gasozi hasa neza hari ibiti bitarakura neza, hari imyaka itoshye cyane ubona ko akavura kagwa, hakurya hari n'igicu cyiza.

Ni ahantu hataba abantu benshi, ni ahantu hagenewe ubutaka bwo guhinga, gusa hari inzu imwe, yubatse isakaje n'amabati, bigaragara ko ariho babika umusaruro bakuye muri ibyo bihingwa bihinza aho hantu.

Ni ahantu mu kibaya cyagenewe guhingwamo hari inzu imwe isakaje amabati y umweru, hirya no hino hari insina n'ibindi biti byinshi n'ibindi bihingwa byose birahari.

Imisozi iteganye, hariho amaterasi y'indinganire, bateyeho amashyamba afata ubutaka, mu gihe imvura nyinshi yaguye, amasuritabe yatembana umusozi.

Aha hari inka nyinshi zitandukanye ndetse hari n'abantu bafite ibyansi bakamiramo, bisa naho bitegura gukama amata yo kugurisha ndetse no kunywa.

Inka nziza z'ibihogo zifite amahembe meza, ni inyambo muri rusange, ziri mu rupango bazubakiye, hari abantu baje kuzireba ndetse ni abaveterineri baje kuzivura.

Iyi ni imashini yifashishwa mu gutunganya umusaruro, ukomotse ku ihingwa. Ikaba yifashishwa n'amakoperative cyangwa se inganda kugira ngo zitunganye uwo musaruro neza.

Ihene eshatu ziraryamye zimeze neza zisa nkaho zariye zahaze, ziza kwiryamira ahantu hatari icyatsi na kimwe ni ubworozi bw'ihene z'umuntu.

Ni mu nzu nini cyane ni inyubako bubakiye inkwavu kugira ngo bazororeremo, hari umuntu wambaye itaburiya y'umweru yaje kureba ubuzima bwazo uko buhagaze.

Inkoko nyinshi ziri kunywa amazi izindi ziri kurya ibiryo. Ni ubworozi bwazo aho bazubakiye aho zigomba kurira n'aho zigomba kurara.

Bahagaze imbere y'ubworozi bw'inkwavu, barazubakiye bazubakira ahantu ho kwirirwa ndetse naho kurara, bashyiramo ibyo kurya bizitunga, ni abantu bambaye amataburiya, bamwe ay'umweru, abandi iy'umukara.

Ubworozi bw'amatungo iki kikaba ari igikomera cyangwa se ikiraro k'ingurube harimo ingurube ya kizungu ubona ko ifite umubiri mwiza cyane ikaba itanga inyama ndetse n'amafaranga.

Inkoko nyinshi cyane, ni inkoko zisa neza zirimo zirarya ahantu bazubakiye, harisanzuye zibona aho kurira ndetse n'aho kurara hameze neza.

Ubu ni ubworozi bw'amatungo, aha hakaba hagaragara ingurube ndetse n'ibibwana byayo, bikaba ari ubworozi butanga inyama ndetse n'amafaranga.

Ubworozi bw'inkoko harimo inkoko nyinshi zigiye zitandukanye, hari n'ibikoresho bizifasha kubona ibyoku kurya ndetse n'amazi yo kunywa, inkoko zikaba zitanga amafaranga ndetse n'inyama zo kurya.

Ni ubworozi bw'ihene, amatungo magufi ashinzwe kuzana ifumbire ndetse n'amafaranga, mu byatuma ubuzima bwa muntu bugenda neza, ni ihene nyinshi, barazubakiye, bazororera hamwe,

Ni ubworozi bw'inka aho hari inka nyinshi ziri mu rwuri ,ziri munsi y'ibiti by'amahumbezi, n'inka nyinshi cyane zirimo iz'ibihogo, iz'ibibamba, n'izindi..

Ikiraro kirimo inka bakunze kwita mu kinyarwanda ingweba, hakaba hari umuntu uri kuzigaburira kugira ngo zizamuhe umusaruro mwinshi.

Inkoko nyinshi ziri hamwe barazubakiye, zifite ibyo kurya ni ubworozi bwazo, ni inkoko ntoya zitari zakura ziri hamwe bazubakiye inzu yazo.

Umugabo wambaye ingofero y'umukara, agapira k'umweru n'umukara ipantaro y'umukara ndetse na bote z'umukara, ari iruhande rw'inka arimo arayiha amazi mu ibasi y'ubururu, inka nayo yambaye ikiziriko mu ijosi gitoya, ni inka y'ikibamba.

Umugore wambaye agatambaro k'ubururu, yambaye agapira karimo amabara y'umweru na pinki yambaye n'igitenge yunamye ahantu kuri shitingi nini barambuye mu byatsi bashyiraho ibigori, ni umusaruro w'ibigori.

Ni imbuto nyinshi z'umuceri, umuceri wumye ariko utaratonorwa, birarambitse ni twinshi ku buryo ushobora kudufata ukatubyazamo umuceri.

Imbuto nyinshi zitandukanye z'ibishyimbo, hari ibisa umutuku, umweru, umukara icyatsi, n'ayandi mabara menshi, ni ibishyimbo biri hamwe kugira ngo bizabyare imbuto y'ubutaha.

Ubwoko bw'ingano ziri ahantu, ingano zikaba zifashishwa mu gukora amafarini, imigati, ibyokurya bitandukanye, igikoma, ikaba igira n'intungamubiri zitunga umubiri w'umuntu.

Aha ni ahatunganyirizwa ndetse hakanatuburirwa imbuto hakaba hari irangi ry'umweru, imbuto na zo zipfunyitse mu dushashi turi mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Abaveterineri babiri, bambaye ibisarubeti by'ubururu, umwe yambaye bote z'umweru n'ingofero y'umweru, undi yambaye inkweto z'umukara n'umweru, bari gukora mu nda y'amaganga y'inka kugira ngo bayitere intanga.

Veterineri wambaye akagofero gatukura, afashe ku rupango rw'inka ndetse hari n'inka y'ibihogo n'umweru, ari kuyikora mu nda y'amaganga kugira ngo ayivure.

Aha ni mu ivuriro ry'amatungo ubona ko hari imbwa baryamishije ku gitanda kugira ngo bayikingire cyangwa se barebe ikibazo ifite bayihe ubufasha.

Aha ni ku ivuriro ry'amatungo, hari imbwa barambitse hasi, bari kuyitera urushinge, kugira ngo bayikingire indwara zitandukanye.

Iyi ni ingurube ikaba irambaraye hasi, isa naho isinziriye cyangwa se ifite ikibazo, ikeneye ubufasha butandukanye bwatuma imera neza.

Inyamaswa ihagaze ahantu ku mugina ikaba iri mu ishyamba rimeze nk'irikota akazuba, hakurya hari igicu gisa neza kitarimo imvura.

Iyi ni inyamaswa twita igisamagwe cyangwa se ingwe, ikaba yashinyitse cyane igaragaza imikaka akaba ari inyamaswa y'inkazi iba mu ishyamba.

Intare y'ishyamba iraryamye ifite ibyuya byinshi mumaso, isa n'aho iri kuruhuka hirya y'aho iryamye hari ibiti by'icyatsi kibisi.

Ifite amabara meza, mu gatuza hasa nk'aharimo umweru mukeya, ahandi ni umuhondo ujya kuba ikijuju ndetse n'umukara, ni inyamaswa y'ishyamba, yitwa ingwe.

Inyamaswa zikunze kwibera mu mazi, ni ubwoko bw'inyoni inyamaswa z'ishyamba ntabwo ziba murugo, zirasa neza zimwe ziryamye mu mazi, indi irahagaze ihagarariye ku kaguru kamwe.